Umuganga wirabura wambaye impuzankano yu'umweru n'uturindantoki tw'umweru, afite igikoresho cyo kwa muganga bakoresha iyo bari gupima umuvuduko w'amaraso. Arimo arapima umugabo wegeranye n'undi muganga wambaye impuzankano y'umweru ateze igitambaro cy'ubururu afite ikaramu n'ikaye.

Umugabo wambaye impuzankano yo kwa muganga, afite ibikoresho bimurinda kuba yakanduzwa n'amurwayi, yambaye agapfukamunwa n'ingofero mu mutwe, yambaye uturindantoki tw'umweru, afite urushinge arimo aratera umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi bicaye abandi barahagaze harimo n'abagore bahetse abana, bicaye bareba abantu babahagaze imbere, hari babiri bambaye impuzankano z'abaganga n'undi mugore wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, bari hafi yinzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu bambaye imyenda itandukanye, bari mu ivuriro mo imbere. Bamwe bambaye udupfukamunwa, abandi natwo bambaye. Hari umugabo ufashe ikintu mu ntoki cy'umukara n'undi mugore ufite agakayi k'umukara mu ntoki. Hirya yabo hari umudamu wicaye afashe umwana, yicaye ku gitanda mu bitaro mo imbere.

Umugabo wambaye impuzankano y'umweru n'uturindantoki tw'umweru, afite agakoresho bakoresha iyo bapima uko umutima w'umurwayi utera, yakarambitse ku murwayi uryamye ku gitanda yiyoroshe.

Umuganga wambaye uturindantoki tw'umweru, ari kumwe n'umurwayi wambaye ishati y'icyatsi. Umurwayi arimo arahereza agatoki muganga ngo amutere urushinge, amufate amaraso amenye icyo arwaye.

Umusore wambaye impuzankano zo kwa muganga zisa ubururu yambaye uturindantoki dusa iroza, afite urushinge arimo arapima ibintu, imbere ye hari imashini ya mikorosikopu ipima indwara zinyuranye.

Umuganga ufite uturindantoki tw'umweru, yambaye umwenda ufite amaboko y'umuhondo, hafi ye hari abandi bantu. Afite ibintu mu ntoki arimo aravangavanga.

Umubyeyi wicaye ku gitanda, afite umwana mutoya w'agahinja arimo aramusoma, umwana amuteruriye mu isume isa ubururu, umubyeyi afite igitambaro yakennyeye, yashyize mu ijosi.

Abana bambaye impuzankano z'imipira hejuru, bamwe bambaye amajipo, abandi bambaye amapantaro n'inkweto z'umukara n'izindi zidasa umukara, hari abandi bahagaze ku ruhande babitegereza ibyo bari gukora.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi, umuganga w'umugore utagira igitambaro gitukura, afite n'amaherena. Yambaye itaburiya y'umweru, yashyize amakaramu atatu mu mufuka wayo, yambaye n'isaha. Ku meza hari ibikoresho akoresha mu kuvura, arimo arita ku murwayi.

Abantu benshi bahagaze bari mu nzu mo imbere, harimo umukobwa umwe wambaye imyenda ya RIB yageranye n'undi mugore ufite ikayi mu ntoki, hari umugabo urimo urababwira wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari mudasobwa n'ameza yenda gusa ikigina.

Inzu ya farumasi icuruza imiti y'ubwoko butandukanye, harimo umukobwa ufite imisatsi isutse y'umukara, arimo arashyira umuti hejuru muri farumasi. Imiti iri mu makarito agiye atandukanye n'ibikombe bitandukanye.

Inzu ifite ibara ry'umweru, hasi yaho hateretse icyapa cyanditseho Ivan Pharmacy Ltd, hafi yaho hejuru naho hari icyo cyapa cyanditseho Ivan Pharmacy Ltd.

Ni abantu batanu bagaragara kuri iyi foto. Abagabo batatu n'abagore babiri bafashe akantu kamanitse hejuru, umugabo wenda ufashe hafi n'umugore afite telefone, umugore ufite bafashe hamwe afite agasaha ku kuboko, umugore ugaragara cyane na we afite imisatsi, uko ari abagore babiri bose bafite imisatsi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru afite imisatsi isutse, afite ikaramu ndetse n'ikayi bandikamo abarwayi baje kwivuza, ari kumwe n'umubyeyi waje kwivuza ukenyeye igitenge wambaye n'insengeri y'ubururu, umurwayi arimo arabwira indwara muganga nawe yandika mu ikaye.